Mugitondo cya kare urubyiruko ruri gukora siporo umuhanda wa kaburimbo hafi yo kumuvumba, bisa nkaho bameze neza cyane kandi bafite motivasiyo y'ibyo barimo gukora.

Inama ya komite mpuzabikorwa y'Akarere ka Nyagatare irimo abayobozi bakomeye bari kuganira ku bintu bimwe na bimwe bishobora gutuma umuturage ahora ku isonga ndetse n'ibindi byinshi bifitiye u Rwanda akamaro.

Abaturage benshi bari mu nzu mberabyombi bisa nk'aho bari mu nama y'igihugu cyangwa se igamije guteza abanyarwanda imbere ndetse n'igihugu, bakurikiye ubahagarariye cyangwa se uri kubagezaho amakuru ayo ariyo yose bakeneye.